Abanyeshuri bahagaze mu muryango bambaye ijipo y'umukara n'ishati y'umweru hirya ku nzu hashushanyijeho umwiko n'ingorofani.

ishuri ryigisha abana biga mu mashuri matoya, bakaba barashushanyijeho umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati ndetse hakaba hariho n'injangwe. ibi ngibi bifasha abanyeshuri kujijuka mu mutwe.

Umuhanda wubatse neza urimo amabuye atsindagiye neza, hakaba hari inzu zihubatse ziriho inzugi z'imyeru, zikorerwamo ubucuruzi ndetse hakaba hari n'akabati gateretse hanze ndetse nakandagira ukarabe bamenamo imyanda.

Ishuri ryiza risakaje amabati ashaje, rikaba rishushanyijeho ibishushanyo byinshi, hanze hari imbuga iteyeho ibyatsi abana bakoresha bari gukiniraho.

Uburezi ni isoko y'iterambere, aho usanga umwana avamo afite uburere, afite n'ubumenyi bugiye gutandukanye, akabasha gukora azi kwihangira imirimo ndetse akabasha gukora azi ibintu byinshi bigenda bitandukanye, twavuga nk'indimi ndetse n'ibindi bintu.

Bigaragara ko hano ari inzira ishobora kubigana kwariya kizu kinini cyane, gishobora kuba kigiriramo abanyeshuri, ku inzira akaba ari indabyo zigiye zikikije iyo nzira. Hirya iyo nzu ikaba isa umweru harimo n'amadirishya manini cyane.

Uburezi mu isoko y'iterambere twavuga nk'amashuri y'inshuke. Amashuri y'inshuke afasha umwana mu gukora neza, yunguka ubwenge n'ubumenyi bigiye bitandukanye, aho usanga akura afite ubumenyi bwinshi cyane.

Uburezi ni isoko y'iterambere, twavuga nk'amashuri y'inshuke aho usanga umwana aba afite ubumenyi bugiye butandukanye, akabasha gukora kwihangira umurimo ndetse akabasha kwiga akazagera kure hashoboka mu buzima bwe.

Ishuri rinini risize irangi ry'umuhondo ndetse n'umweru. Hakaba hashushanyijeho ibikoresho itoroshi, igare ndetse n'abantu. Nkuko bigaragara ifasha abanyeshuri kwiga.

bigara ko ari ababyeyi babiri bari kurera abana mu mashuri matoya bakunze kwita nasari, nkuko mubibona muri kubona bari kubafasha mu bijyanye no kubagaburira kugira ngo baze gukomeza kwiga nta kibazo cy'ubuzima bafite.

Inzu irimo amabara y'umuhondo bigaragara ko ari ishuri ryigisha abana batoya biga mu mashuri abanza, hakaba harimo imibare, inyuguti ndetse n'ameza bakoresha iyo bari kwandika.

Ishuri ryubakishije amatafari ahiye, rikaba risize irange ry'umuhondo hejuru y'ikibaho bandikaho gisize irange ry'umukara, hasi kuri sima hateretse intebe ndetse hakaba harambuye n'umukeka.

Uburezi ni isoko y'iterambere twavuga nk'amashuri y'inshuke, aho usanga abana bavamo bafite uburere n'ubumenyi, haba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye bibafasha mu kwishima, mu gukina ndetse no gusabana n'abandi bana bakava mu bwigunge.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ikaba iriho amabati agaragara nk'aho ashaje, imbere yaho hari abantu bahagaze bambaye imipira y'imihondo ndetse n'amapantaro y'imikara, bakaba bafite igikoresho kimeze nk'urwego bazamukiraho.

Ibikoresho bikoreshwa mu ishuri, cyane cyane ku banyeshuri baba bari kwiga imibare, twavuga irate yo gucisha imirongo ndetse n'akandi gakoresho bakoresha baca uruziga, hakaba hari n'ikereyo bakoresha bashushanya.

Bigaragara ko hari abanyeshuri batanu bari kugerageza kwandikwa ku kibaho bakoresheje ingwa, bakaba barimo kwitoza gusubiza, kwandika inyajwi, bigaragara ko biga mu kigo cy'inshuke cyangwa primaire.

Abana babiri umwe muri bo akaba yambaye ishati y'ubururu n'ijipo, bigaragara ko arinifomu, aka yambaye na bodaboda z'umweru. Undi akaba yambaye bodaboda z'umuhondo, akaba yambaye n'agapantaro n'agakoti bigaragara ko ashobora kuba we ashobora kuba atari umunyeshuri. Bose bahagaze imbere y'urugi bashobora kuba bari gushaka nko kwinjira.

Hano ndi kuhabona ikigo cy'amashuri ya pirimeri aho ndi kubona za kandagira ukarabe hanze, bakomejemo imbere harimu n'abantu.

Nk'uko bigaragara hano, urabona ko ari abanyeshuri bari mu nzira ijya ku ishuri; harimo n'umwana usa nk'ufite ubumuga; bagenzi be bigaragara ko bari kugaragaza urukundo rwinshi cyane; banze kumusiga ahubwo hari umwe uri kumucunga kugira ngo amugeze ku ishuri amahoro bose bategindingire classe icyarimwe.

Umunyeshuri uhagaze mu banyeshuri bigaragara ko afite ikintu ari kubagezaho, umunyeshuri yambaye ishati y'umweru afite mikoro mu ntoki bigaragara ko ari ikintu ari kuvuga cyangwa ari kugeza ku bandi.

Ahantu heza hateye indabyo ndetse n'ibiti birebire, hakaba hubatse ibishararagati byinshi birimo amabara y'umweru n'icyatsi, imbere hari abana batatu, babiri bafashe icyapa cyanbitseho mu magambo y'umweru, kikaba gisize irangi ry'ubururu ndetse n'umweruru.

Abantu bahagaze imbere mu rugo rwubakishije imiyenzi, hakaba hariho urugi rw'ubururu. Bambaye imipira y'imyeru. Iyo nzu bahagaze iruhande yubakishije amatafari ahiye.

Uburezi ni isoko y'iterambere aho usanga buri muntu wese ashyigikiye gahunda yo kwiga, twavuga nk'amashuri y'incuke, abanza n'ayisumbuye aho usanga abanyeshuri biga neza cyane kuko aba ari bo rubyiruko rw'ejo hazaza.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'imipira y'ubururu bakaba bicaye ku ntebe ari batatu batatu. Inyuma yaho hari ibiti binini bibakikije ndetse imbere yaho hakaba hari undi ufashe indangururamajwi.

Abantu benshi bigaragara nkaho ari abanyeshuri bahagaze mu kibuga kirimo sima, bakaba bambaye imyenda y'icyatsi ndetse n'umuhondo amapantaro y'umukara, inyuma yaho hari ibiti bihateye birebire.

Inzu isize irangi ry'umuhondo ndetse ikaba ifite n'ibirahure, ikaba ifite amadirishya y'umukara, haruguru yaho hari indi isize irangi ry'umweru, hakurya hari amagare aparitse ku biti bihateye.

Bigaragara ko ari nk'ikigo runaka aho ndi kubonamo jaride n'utuntu dukoze neza cyane tugaragaza inzira ushobora gucamo ugiye mu biro cyangwa mu ofisi.

Abanyeshuri bambaye amashati y'imyeru ndetse n'imipira y'icyatsi, bakaba bicaye ahantu hamwe, hakaba hateye ibiti binini cyane, bifite amashami, bikaba bibarinda ko izuba ryabica.

Inzu yubatse neza ikaba ifite urugi rw'umuryango usohoka hanze rusize irangi ry'umweru, ndetse n'icyatsi hakaba hanze hateye ibiti birebire bikurura umuyaga ndetse n'imvura.

Ishuri rinini ryubakishije amatafari ahiye, rikaba ririmo n'ibirahure by'imyeru. hicayemo abantu bambaye amashati y'imyeru ndetse n'amajipo y'ubururu. Bakaba bafite amakaye imbere yabo.

Uburezi ni isoko y'iterambere ubwo usanga buri muntu wese aba afite gahunda yo kwiga, twavuga nk'amashuri abanza, ayisumbuye ndetse na za kaminuza zifasha abana mu kongera ubumenyi, bakabasha kubaho neza.

Hano ni ku muryango w'amashuri aho mbere yuko winjira ubanza ugakaraba intoki; ndi kubona abakobwa babiri n'umuhungu bari gukaraba intoki bahagarariwe n'umuvorotere.

Ishuri risize irangi ry'umuhondo ndetse hagati hakaba harimo ikibaho cy'umukara, hicayemo abanyeshuri bambaye amashati y'imyeru ndetse umwe ahagaze imbere, yambaye ijipo y'umukara afite igipapuro mu ntoki.

Kwiga ni ingenzi cyane kuko usanga mu Rwanda uburezi ari bwo buri imbere, aho usanga hari amashuri y'inshuke, abanza n'ayisumbuye, aho usanga nta mwana w'Umunyarwanda utabasha kujya ku ishuri ngo akurikirane amasomo ye.

Uburezi ni isoko y'iterambere twavuga nk'amashuri yisumbuye aho usanga abanyeshuri bayigamo' bafite ubumenyi butangaje babasha kwihangira umurimo ndetse bakabasha gukora ibikoresho bimwe by'ikoranabuhanga bikomeye.

Bigaragara ko ari umuyobozi uri mu kibuga cya basiketi uri kugezaho inama cyangwa inyunganizi ku banyeshuri bicaye haruguru mu kibuga cya basiketi, aho ari benshi, abanyeshuri bambaye inifomu y'umweru n'umukara.

Bigaragara ko ari ikigo cy'ishuri rya primeri aho buri munyeshuri ari kugaragara mu gapira k'ubururu n'ijipo. Bigaragara ko harimo n'abahungu bagiye bambaye ipantaro ikigo mbese kivanzemo harimo n'umuyobozi wabo wari wambaye ishati igiye irimo utuzu.

Inzu isize iranbye ry'umuhondo, hakaba hariho ikibaho gikoreshwa bari kwandika ndetse no kwigiraho muri kaminuza, ibi bifasha abanyeshuri kwiga neza ndetse no kongera ubumenyi.

Umunyeshuri ufite mudasobwa uri mu nzu y'ibitabo ari kugerageza gusoma no kwiyibutsa neza ibyo yize.

Inzu isiz irangi ry'icyatsi, hakaba hapakiyemo ibitenge by'abagore, bizinze neza cyane, uko bigaragara ni ahantu babicururiza cyangwa babiranguriza, ibi ngibi wadodamo ishati cyangwa ipantaro.

Abantu benshi bicaye ku murongo imbere yabo bakaba bafite ameza ndetse n'ibipapuro bakaba bari kwandika, kandi urabona ko wagira ngo bari gukora ikizami, cyangwa ibindi bintu bahugiyemo.

Umugabo uhagaze mu cyumba kirimo icyuma gikoreshwa ba puritinga cyangwa gisohora impapuro hakaba hari icyo cyuma gisa umukara rikaba harimo n'impapuro hirya y'uwo mugabo hari n'imashini.

Umugabo wambaye ijipo n'ingofero n'amarinete, akaba ari gusuzanya n'umugore wambaye ijipo nawe n'ingofero, byose bijya gusa umukara, aho bitandukanijwe umugore yambaye ijipo irimo n'umutuku ariko umugabo yambayemo irimo icyatsi.

Hano ndi kubona hari ikayi yanditsemo imibare ku bintu bijyanye bya matirikisi. Hakaba bikaba byandikishije ikaramu y'ubururu mu bijyanye na mu makayi y'utuzu.

Ndi kubona logo ya yuwala, ari byo bishatse kuvuga Iniverisite y'u Rwanda hakaba hari abagabo n'abagore, harimo n'abasore, n'inkumi bari bari kugaragara mu gikorwa cyo gufata ifoto, imbere yabo hakaba hari imeza nini cyane, iri mu bwoko buzengurutse, iriho amazi n'igitabo.

Iri ni ishuri rya iniverisite ya Nyagatare, aho aho muri kubona ari kuri resebusiyo aho winjirira ushaka guhura n'abayobozi muri iryo shuri ryo muri iniverisite hari noneho ndi kuhabona umuntu ufite ingofero mu ntoki ,wambaye ikote, ukomeje hirya hari amashuri.

Inzu ndende nziza irimo ibirahure ndetse ikaba isize irangi ry'umweru, hasi hakaba hasize irange ry'umukara, imbere hubakishijwe akayira karimo utubuye dutoya cyane abantu banyuramo.

Ndabona ikigo cy'amashuri gifite n'ikigega cy'amazi, hari na jaride imeze neza cyane, hari na pabuna hanapavomye n'igisenge kitari icy'amabati cy'amategura, ishuri rimeze, rishobora kuba ari ishuri rimeze neza cyane

Abanyeshuri biga muri kaminuza bakaba bambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'udupira tw'amasengeri tw'umukara basutse imisatsi umwe muri bo bafite telefone nini, inyuma yaho hakaba hateye igiti.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na kaminuza bakaba bicaye imbere yabo hari ubupara burimo amazi ndetse n'ameza, hari umugabo uhagaze wambaye agapfukamunwa ndetse n'ishati iri mu tubara tw'umweru.